Abana babana n'ubumuga, bakomeza gushima Leta y'u Rwanda ko itabatereranye, bakavuga ko babona uburezi nk'ubwo abandi babona muri rusange bityo bakaba bashima Leta yacu.

Leta y'u Rwanda. ivuga ko, gutoza umuco abana bakiri batoya, ariho bakura indangagaciro zo gukunda igihugu, no kugikorera. Bityo ikaba ishishikariza buri wese, kubikora nk'ibye.

Ababyeyi barera abana bakiri batoya mu marerero yashyizweho na Minisiteri y'Uburezi mu ngo, bavuga ko bafasha abana kwiga Imibare n'Ikinyarwanda bakiri batoya bikazatuma bajya mu mashuri bafite ubumenyi kuri byo.

Minisiteri y'Uburezi ikomeje gushyira imbaraga mu guhugura abarimu uburyo bagira isuku mu mashuri bigishamo kugira ngo bitume uburezi bukomeza gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda.

Minisitiri w'ubuzima, asobanurira abaturage ko, kugira isuku biri mu bya mbere, bizatuma, bagira ubuzima bwiza, bakarushaho kubaho, batekanye kandi bishimye.

Mu buryo bugaragara, twasanze ko abanyeshuri, bishimiye uburezi bahabwa, kuko ngo basigaye batsinda neza, kubera abarimu bafite ubumenyi buhagije bwo kubigisha.

Mu bigo by'amashuri mu ntara y'iburasirazuba twasanze abana bateraniye hamwe, bari gusoma, aho bafashanya, ubishoboye agafasha udashoboye, kugira ngo barebe uko bakomeza gutera imbere mu myigire.

Ababyeyi bafite abana babana n'ubumuga bashima Leta y'u Rwanda ko yabatekerejeho ikabegereza uburezi hafi, aho ubu ngubu na bo basigaye biga neza n'abandi bana nta kibazo bafite.

Minisiteri y'Uburezi irashima abarimu yashyize ku isoko ry'umurimo ko bakomeje kurushaho guteza imbere uburezi kandi bifashishije uburyo bworoshye bw'ikoranabuhanga, bigatuma imitsindire y'abana izamuka.

Mu bigo bigiye bitandukanye by'amashuri uhasanga imikino iri gukinwa n'abana bakiri batoya, bavuga ko bibashimisha kandi bikanabafasha gufata vuba, abarerera muri iri rerero ry'abana bavuga ko abana babo bafite ubumenyi buhagije bakura muri iyi mikino.

Ababyeyi bakomeje kugaragaza ibyishimo mu bice bigiye bitandukanye, kuko Leta yatekereje ku bana bakiri bato ikarebera hamwe uburyo bakongera imyigishirize yabo, aho bashyizeho kurerera mu ngo.

Minisiteri y'uburezi mu Rwanda ibinyujije mu guteza imbere imyigire n'imyigishirize yashyizeho ingo z'irerero aho buri mubyeyi ajyana umwana we ukiri muto kugira ngo atangire kwiga, maze abone ubumenyi akiri...

Abana biga mu mashuri y'inshuke barishimira ko abarimu babo babigisha ibintu bigiye bitandukanye, bakoresheje uburyo bworoshye nk'indirimbo, kubasomesha, kubakinisha udukoni, bityo rero birabafasha cyane.

Minisiteri y'Uburezi yagiye ishyiraho gahunda zigiye zitandukanye, aho ubungubu mu mashuri yo mu Rwanda, umwana adataha saa sita gufungurira iwabo, akaba abikorera ku ishuri yigaho.

Ababyeyi batuye mu karere ka Burera, Musanze na Nyabihu, bavuga ko Leta yabatekerejeho kuko bari bafite abana babana n'ubumuga, ikabafasha kubageza ku ishuri mu buryo bworoshye.

Minisiteri y'Uburezi ivuga ko ibyishimo ari byinshi ku banyeshuri biga bataha kuko yabashyiriyeho uburyo bazajya babonamo amafunguro biboroheye bikabafasha mu myigire yabo.

Uko leta ikomeza kubaka amashuri y'incuke, irashishikariza ababyeyi gutanga umusanzu, kugira ngo nabo abana babo babone uko biga neza mu mashuri atava.

Minisiteri ishinzwe uburezi mu Rwanda igenda iteza imbere imyigishirize, aho igenda ishyira imfashanyigisho mu mashuri, bikorohera abarimu kwigisha neza abana.

Uko imyigishirize izagenda itera imbere mu Rwanda, ni nako n'ababyeyi bazagenda bagira ishyaka ryo kohereza abanyeshuri ku mashuri kugira ngo babone ubumenyi buhagije buzatunga abana babo.

Kuva Leta y'u Rwanda yashyiraho gahunda y'uburezi kuri bose, ababana n'ubumuga bavuga ko nabo batatereranywe kugira ngo babone ubumenyi buhagije buzabafasha kubaka igihugu cyabo.

Ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye, bigaragara yuko hari ibitagira isuku bityo Minisiteri y'Uburezi ikaba ibasaba kongera imbaraga mu isuku kugira ngo abana bajye biga neza ahantu hateguye neza.

Mu gihugu cy'u Rwanda hari imico igiye itandukanye, aho buri kigo cy'amashuri kigenda kigaragaza indangagaciro zacyo mu gukunda igihugu no gukunda umurimo, bigafasha...

Mu burezi mu Rwanda mu myaka yo hasi, bagenda bigisha abana ibikoresho byinshi bitandukanye, bikunda gukoreshwa mu rugo, bigatuma bakura bafite ubumenyi butandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yo mu cyaro, barashima Leta y'u Rwanda kuko ibatekerezaho, ikabaha uburezi buhagije ibongerera abarimu, ibakore imihanda, kugira ngo amasomo yabo akomeze agende neza.

Leta y'u Rwanda igaragaza ko imikino mu bigo by'amashuri, ifasha abana mu kuruhura mu mutwe bigatuma bafata amasomo neza, imitsindire ikiyongera ku kigero kiri hejuru.

Mu gukomeza guteza imbere imyigire y'abana, Minisiteri y'Uburezi yashyizeho gahunda yo kubagaburira ku mashuri, aho ubu ngubu abana biga mu gitondo, saa sita bakarya bagataha mu rugo.

Ibigo byinshi by'amashuri byo mu Rwanda, Leta yagiye ibyegereza amazi, kugira ngo azafashe abanyeshuri, kuba bakigira ahantu harangwa n'isuku, bigatuma biga neza.

Abarimu bashima minisiteri y'uburezi yabatekerejeho ikabaha ibishushanyo bitandukanye byifashishwa mu korohereza abanyeshuri gufata ibyo biga bigatuma batera imbere mu bumenyi ku buryo bwihuta.

Mu bigo by'amashuri bidafite umutekano usesuye, birasaba Leta ko yabifasha ikabubakira ibikuta bizengurutse amashuri kugira ngo hizerwe umutekano w'ibikoresho by'abanyeshuri n'ibikoresho by'ikigo.

Mu Rwanda uburezi bwagiye butera imbere aho abarimu bigisha mu myaka yo hasi bagenda bakoresha udukoresho tugiye dutandukanye dufasha abanyeshuri kongererwa ubumenyi harimo ibyo twakwita..

Mu gukomeza guteza imbere, Minisiteri y'Uburezi yongeye imbaraga mu ikoranabuhanga rizajya rifasha abana kongera ubumenyi bwabo mu myigire.

Leta y'u Rwanda ishishikariza buri muturage kuba ijisho rya mugenzi we mu gucunga umutekano w'igihugu, aho avuga ko bagomba kubanza guhera ku birangantego by'igihugu bakabiha agaciro.

Abayobozi b'ibigo bigiye bitandukanye by'amashuri bashima Leta y'u Rwanda kuko nyuma y'icyorezo cya Kovide babashyiriyemo umuriro, abana bakaba biga ubu ngubu ahari amatara.

Kugira ngo tugire abanyeshuri bafite ubumenyi buhamye, leta y'u Rwanda yagiye yigisha abarezi gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye kugira ngo bongere ubumenyi bw'abana.

Ababyeyi barerera mu marerero agiye atandukanye mu bigo by'amashuri y'iburasirazuba, bavuga ko kuva abana babo batangira kubona ibitabo byo gusoma, ubumenyi bwagiye bwiyongera ku rwego rwo hejuru.

Minisiteri y'uburezi, ivuga ko kongera isuku mu bigo by'amashuri, byongerera ubuzima abahiga, bigatuma babona ubumenyi buhagije, kuko nta ndwara bahura nazo z'umwanda.

Ubucucike mu mashuri bwagiye bugabanyuka, nk'uko Minisiteri w'Uburezi igenda ibisobanura. Kandi izakomeza kubagabanya, kugera ku kigero cya mirongo itanu ku ijana, kugira ngo abanyeshuri bajye biga neza.

Leta y'u Rwanda ishima Minisiteri y'Uburezi, aho yagiye ishyiraho amasomero atandukanye mu Ntara z'Uburasirazuba iz'Amajyepfo n'Umujyi wa Kigali, aho aho ugeze hose ushaka gusoma ubona aho ukorera iki gikorwa.

Mu bigo bigiye bitandukanye byo mu gihugu, usanga abanyeshuri bitaweho neza ku buryo buri munyeshuri wese abona ibyo akeneye kugira ngo imyigire ye itere imbere, ku bijyanye n'imirire byose akabibonera ku gihe.

Ubucucike mu mashuri abanza bukomeje kwiyongera, aho Leta iri gushyiramo imbaraga kugira ngo irebe uburyo bayigabanya kuko abana badatsinda neza bitewe n'uko biga babyigana.

Abarimu bahawe akazi ka Leta mu myaka yashize bavuga ko batangiye kugira ubunararibonye, aho abanyeshuri bigisha basigaye batsinda ku kigero cyo hejuru.

Minisiteri y'uburezi ivuga ko kugenda yegera amashuri yigamo incuke, akabigisha uburyo bakoresha ikoranabuhanga mu myigire yabo, biri kongera umusaruro mu buryo bugaragara.

Mu gukomeza guteza imbere isuku mu bice bitandukanye by'Igihugu Leta ishishikariza abaturage kubaka ibikuta maze bagasigaho amarange kuko ari byo bituma bisa neza.

Leta y'u Rwanda igaragaza ko abarezi bari ku isoko ry'u Rwanda bafite ubumenyi buhagije ku buryo bafite uko bigisha abana bagafata neza kandi ibintu byinshi.

Minisiteri y'uburezi yagiye ishyiraho uburyo butandukanye bwo gufasha abarimu gutanga ubumenyi ku bana bakiri batoya, aho ibaha imfashanyigisho nk'udupapuro dushushanyijeho imibare, kugira ngo bigishe abana neza.

Minisiteri y'Umuco na Siporo, ivuga ko gushyira imyidagaduro mu mashuri bituma abana basabana kandi bakigiramo n'imico itandukanye, bityo bigatuma batera imbere mu myumvire n'imitekerereze.

Mu turere tw'Amajyepfo y'u Rwanda ni ho honyine hakunda kugaragara inyubako zishakaje icyo twakwita ibumba, aho usanga abahatuye bavuga ko ari ryiza cyane imvura itabanyagira iyo ari ryo bashakaje.

Kera wasangaga ababyeyi binubira uburezi bwo mu Rwanda, aho bavugaga ko abana babo batabona ibihagije kugira ngo babe batera imbere. Leta ikaba yarashyizemo imbaraga kugira ngo bajye babona ibikwiye.

Mu bigo by'amashuri mu Rwanda byagiye bitera imbere, hagaragara amashusho meza afite isuku, mu buryo ubusitani bw'ibyo bigo ubona koko ari ibintu byiza, kuburyo buri wese yakwifuza kwiga muri icyo kigo.

Muri gahunda yo gusukura Umujyi w'u Rwanda, Leta ishishikariza buri muturage kugenda atoragura igipapuro aho cyaba kiri hose kugira ngo isuku ikomeze kwiyongera.

Abarimu bigisha isomo ry'ibinyabutabire bavuga ko abana badakunda kurifata neza, bityo bagashima leta y'u Rwanda yabashyiriyeho imfashanyigisho zituma bumvisha neza abanyeshuri.

Abanyeshuri biga mu bigo bigiye bitandukanye, bashima leta y'u Rwanda ko yatekereje ku guteza imbere uburezi, bigatuma abanyeshuri bagira uburezi bwiza kandi bikabafasha no kongera iterambere ry'igihugu.

Uko uburezi bugenda butera imbere mu Rwanda, abarezi bagenda biyongera ubumenyi mu kwigisha abanyeshuri; aho bavuga ko biborohera kwigisha abana kuko imyigishirize yagiye itera imbere.

Abanyeshuri bishimira uburyo bahabwamo ubumenyi, bakavuga ko Leta yabatekerejeho aho yabazaniye abarimu bazi kwigisha, bikaba bituma batsinda neza amasomo yabo.

Isomero rusange riri mu bintu byaje byongera ubumenyi nkaho hariho benshi bari bafite ikibazo cyo kwigunga, kujya mu mico itari myiza ariko byafashije abantu batuye Isi kongera ubumenyi no guhanga udushya, binyuze mu gusoma ibitabo bitandukanye.

Minisiteri ishinzwe iby'uburinganire ikomeza kugenda ishimirwa n'abana b'abakobwa batekerejweho, hakaba hareberwa hamwe uburyo bakiga mu bigo bya bonyine kugira ngo bakomeze kugira indangagaciro zabo.

Uko hagenda hagaragara abana benshi batewe inda mu byaro, Polisi y'u Rwanda yashyizeho ubukangurambaga, aho iri kwegera abanyeshuri mu bigo bitandukanye, ikabigisha uburyo bakirinda inda zidateganyijwe.

Ikigo Gishinzwe Gutegura Ibizamini bya Leta NESA, kirashishikariza abanyeshuri kwitegura neza kuko igihe cyegereje, bityo bakazabasha gutsinda bakabona amanota meza.

Abarimu bagiye batandukanye mu gihugu, bagaragaza ko umwana uza gusubiza imbere ku kibaho mu gihe cy'amasomo ari umwana uba ufite ubwenge kandi bimwongerera ubumenyi mu byo aba yiga bikamufasha gutsinda neza.

Leta y'u Rwanda ikomeza kwishimira intambwe imaze gutera mu bijyanye n'uburezi, aho usanga inyubako abanyeshuri bigiramo ziba zifite isuku, bityo bakabona ubumenyi buhagije mu byo biga.

Isuku mu mashuri ni nziza cyane, leta y'u Rwanda ivuga ko yongeye imbaraga mu gushyiraho isuku mu banyeshuri, aho yagabanyije ubucucike igashyira kandagirukarabe mu bigo by'amashuri.

Minisiteri y'uburezi ivuga ko abanyeshuri mu gihe baba biteguye gukora ibya leta; bagomba kuganizwa ku buryo imitsindire yabo izamuka ku kigero kiri hejuru babinyujije mu guhugura abarezi babo.

Minisiteri y'Ubumwe n'Ubwiyunge, uko igenda iganiriza abaturage hirya no hino mu gihugu, igenda ibigisha uburyo barushaho kubana hamwe mu mahoro, ari byo bizadufasha gutera imbere kw'igihugu cyacu.

Leta y'u Rwanda ivuga ko ari byiza kurebera hamwe icyateza urubyiruko, ishishikariza abana bakiri bato kugana inzira y'ishuri kugira ngo babone uburere n'umuco uhamye.

Minisiteri y'Umuco ikomeje kugenda yongera ibicumbi mu mirenge itandukanye, aho bagenda bandikaho za kirazira n'indangagaciro zo gukunda igihugu kuri buri karere.

Minisiteri ishinzwe uburezi mu Rwanda, iragaragaza ko ubucucike mu mashuri bwagiye bugabanuka, aho ubu ku ntebe hasigaye hicara abana babiri, urebye mbere hicaragaho abana barenze bane.

Inyubako z'amashuri zishaje mu bice bitandukanye by'igihugu, ziri kugenda zigaragara zigenda zisenyuka, Leta ikaba ikomeje kureba uburyo yakemura kino kibazo kugira ngo hatazashyirwa ubuzima bw'abanyeshuri mu kaga.

Polisi y'u Rwanda, ikomeje gukaza umutekano, wo mu muhanda. Aho iri kugira ngo irengere abana batoya, biga bataha batazagongwa n'imodoka nyinshi, zigaragara mu mihanda, itandukanye hafi y'ibigo by'amashuri.

Minisiteri y'Uburezi yagiye isura ahantu hatandukanye, ibigo bigiye bitandukanye ku kigo cya Officiel de Butare mu magepfo, Minisiteri y'Uburezi yarahasuye yasanze imibereho y'abanyeshuri yifashe neza, binabafasha gutsinda neza muri iki gihugu.

Mu guteza imbere imyigire, Igihugu kiri kugenda gishyira imbaraga mu kubaka amashuri agezweho, arimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo abanyeshuri bajye batsinda neza.

Ba mukerarugendo bagenda basura ibice bitandukanye byo mu Rwanda, bashima Leta bavuga ko yazanye indangacyerekezo aho aho bageze batayoba kuko hari ibibaranga.

Minisiteri y'uburezi yagiye ishyiraho amarushanwa atandukanye mu bigo by'amashuri, aho ivuga ko bizatuma urubyiruko rwibumbira hamwe, rugafashanya mu guteza Igihugu cyacu imbere.

Minisiteri ishinzwe gutegura ibizamini bya Leta mu gihugu cy'u Rwanda, ikomeje kugenda isaga abanyeshuri aho bigira ikabaganiriza, ikababaza uburyo biteguye gukora ibizamini byabo.

Indangagaciro abanyeshuri bakura mu mashuri, bibafasha guteza imbere igihugu birinda amacakubiri kandi bigatuma banabanaho neza mu mahoro bitewe n'ubumenyi babona mu mashuri.

Abanyeshuri bavuga ko, guteza imbere ikoranabuhanga mu burezi bibafasha kongera ubumenyi mu myigire yabo, bagatsinda neza ku kigero gishimishije, bityo rero leta y'u Rwanda ikomeza kubatekerezaho bikazabafasha.

Minisiteri y'Ubuzima yabonye ko abana batoya kugira ngo babeho bishimye bagomba kujya babona ibikinisho bakinisha, bityo igasaba abaturage bose muri rusange gukomeza kubungabunga ibi bishushanyo bagenda bashyira ku mihanda.

Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda, ikomeje gushyigikira abaturage mu kohereza abana mu kwiga mu bigo aho babayo, bityo bizongerera ubumenyi bw'abanyeshuri, kuko babona umwanya wo gutegura amasomo yabo uhagije.

Mu gihe abanyeshuri basubira iwabo bavuye kwiga Leta y'u Rwanda iraborohereza mu ngendo, aho igenda ibafata ku bigo bitandukanye bityo bakaba bayishimira cyane.

Leta ivuga ko igiye kuzagenda isenya ibigo by'amashuri, bifite inyubako zishaje kuko babona byazagira ingaruka ku buzima bw'abanyeshuri barererwa muri aya marerero mu gihugu.

Abanyeshuri bakunze kugira urugomo mu bigo by'amashuri bitandukanye, Minisiteri y'Uburezi yashyizeho amategeko y'uko bagomba kuzajya birukanwa kugira ngo bazagaruke bafite uburere buzima.

Leta y'u Rwanda ivuga ko ibigo byigenga naho ubu ngubu abanyeshuri basigaye bakuramo ubumenyi buhagije kuko byakomeje gutera imbere ku buryo bugiye butandukanye bw'imyigishirize.

Abanyeshuri bagiye batandukanye mu mashuri abanza, barashima leta y'u Rwanda cyane cyane minisiteri y'uburezi, bavuga ko yabongereye ubumenyi aho yohereje abarimu bahagije mu bigo byabo.

Mu guteza imbere uburinganire mu bigo bigiye bitandukanye by'amashuri, minisiteri ishinzwe siporo, igenda ishyiraho uburyo butandukanye bwahuriza hamwe urubyiruko, bityo rugakomeza guteza imbere igihugu mu buringanire.

Minisiteri y'uburezi irashishikariza abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu n'uwa gatandatu biteguye gukora icya Leta, kwitegura neza kugira ngo bazatsinde ku rwego rushimishije babone amanota meza.

Leta y'u Rwanda yagiye yongera imbaraga mu burezi, aho ubu ngubu ibyumba by'amashuri muri uru Rwanda byagiye byiyongera aho wasangaga abana mu ishuri biga ari mirongo itatu ariko ubu buri shuri rikaba ryigamo abana icumi bituma amasomo yabo agenda neza.

Mu masaha ya saa sita niho usanga ibigo byinshi bitandukanye by'amashuri bigaburira abana bahiga, Leta ikaba igenda igenzura ubuziranenge bw'ibiribwa bahabwa kugira ngo bimakaze umuco wo gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abanyeshuri b'ibigo bigiye bitandukanye. Bagaragaza ibyishimo iyo abayobozi, b'ibigo byabo. Babatembereje barererekera, ahantu heza hahanze igihugu cyacu.

Mu kurinda indwara z'ibyorezo bituruka ku mwanda, Minisiteri y'Ubuzima igenda ishishikariza abayobozi b'ibigo by'amashuri guhugura abana babo uburyo bagira isuku.

Uko ubucucike bugenda bwiyongera mu bigo by'amashuri, ni nako abanyeshuri bagenda baba benshi. Bigasabwa y'uko abanyeshuri kugira ngo babone umutekano w'ibintu byabo bagenda bagura ibikoresho bijye bitandukanye, mare kugira ngo babone umutekano w'ibintu byabo.

Leta y'u Rwanda ibinyujije muri Minisiteri y'Uburezi, yakomeje guteza imbere imyigire igaburira abana ku mashuri kuko bibafasha kwiga neza iyo babonye intungamubiri zitunga umubiri wabo.

Ikigo gishinzwe uburenganzira bwa muntu, kivuga ko cyagiye gisanga mu mashuri atandukanye hakirimo ubucucike, kikaba gisaba Leta y'u Rwanda gukemura iki kibazo kugira ngo abanyeshuri babashe kwiga neza.

Uburezi mu kigo cy'amashuri icyo ari cyo cyose hagiye hari indangagaciro zikiranga, ziranga abayobozi bacyo n'abanyeshuri kuko bibafashasha mu kongera imyigire y'abana bafite disipurine.

Minisiteri y'Uburezi ishishikariza buri muturarwanda wese, kwita ku munyeshuri aho amubonye, amurinda kujya mu biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi, kugira ngo dukomeze duteze imbere umuco mu gihugu cyacu.

Abayobozi b'ibigo by'amashuri bavuga ko mu gihe cy'ibizamini iyo byegereje, bagenda babegera bakabaganiriza babereka uburyo bakitegura neza kugira ngo bazabashe gutsinda ku kigero cyo hejuru.

Leta y'u Rwanda ntiyibagiwe abanyeshuri babona amanota make kandi bafite n'ubushobozi buke, aho yagiye ishyiraho nine years uburyo umunyeshuri udafite ubushobozi ashobora kwiga amasomo atandukanye kandi akagira ubumenyi buhagije.

Uko igihugu kigenda gitera imbere biba byiza iyo kijyanye n'iterambere, aho cyongera imbaraga mu bijyanye n'uburezi, kugira ngo n'abaturage bacyo bajye batera imbere, ariko bafite n'ubumenyi, buhagije kugira ngo babashe no kumenya uko bateza imbere Igihugu cyacu. Mu guteza imbere uburezi ni byiza cyane.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bo muri za kaminuza nkuru z'urwanda, bavuga ko iyo bahuye n'ibibazo haba hari ibiro abayobozi babo bakoreramo, bityo rero bikaborohera kugira ngo babone ubufasha.

Uko uburezi bugenda butera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ni ko Leta irushaho kongera ikoranabuhanga mu burezi kugira ngo abanyeshuri bige bafate neza, bagire ubumenyi buhagije.

Minisiteri y'Uburezi mu gukomeza guteza imbere imyigire n'imyigishirize, ikomeza kugenda ifasha abanyeshuri ibaha amafaranga abatunga kugira ngo bajye batsinda neza amasomo baba bahawe.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe itumanaho mu Rwanda kigaragaza ko umurongo wa MTN ufasha abaturarwanda mu itumanaho kandi ugatuma abaturarwanda bamenya amakuru ku gihe nta nkomyi.

Uko igihugu kigenda gitera imbere ni nako gishyira imbaraga mu bijyanye n'uburezi, kugira ngo abanyeshuri bacyo bazabone ubumenyi bufite ireme, bigafasha abaturarwanda gutera imbere mu bijyanye n'imyigire n'ubumenyi ngiro.

Uko Igihugu kigenda gitera imbere, abantu barushaho kuba benshi mu gusura ibijyanye n'inganda mu Rwanda zikora ibintu bitandukanye, bagasobanurirwa uburyo ibintu bikoreshwa n'uburyo bikora n'akamaro kabyo.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe guteza imbere ikoranabuhanga, kivuga ko urubyiruko rwateye imbere aho usanga buri wese afite telefoni zigezweho kandi azi kuyikoresha neza mu buryo bwa kijyambere.

Muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, hagaragara amacumbi y'abanyeshuri atandukanye, aho bavuga ko hari amacumbi meza bacumbikiramo abanyeshuri kugira ngo bibafashe imyigire.

Leta y'u Rwanda mu gukura ubuzima bw'abaturage barwo mu kaga, yagiye ibubakira ahantu hagiye hatandukanye bazimurirwa, kugira ngo babeho batekanye, nta kibazo bafite.

Mu ngo zigiye zitandukanye mu Rwanda, isuku yakomeje kwiyongera mu buryamo, ku buryo indwara zaterwaga n'umwanda zitakiboneka, Abaturarwanda bakaba barateye imbere mu bijyanye...

Ministry w'Uburezi ashimangira ko guteza imbere imyigishirize hashyirwaho ikoranabuhanga hubakwa amashuri menshi hatarimo ubucucike bizafasha abanyeshuri kwiga neza kandi bagatsinda.

Abakerarugendo baza gusura pariki z'ibirunga n'iz'Akagera bavuga ko basanga hoteli nziza zitandukanye mu duce tw'Igihugu, aho bakirwa neza bakabona ifunguro rimeze neza ritakangiriza ubuzima bwabo.

Abanyeshuri barakenewe ku isoko ry'umurimo, ni uko Minisiteri y'Uburezi yashyizemo imbaraga mu kongera umubare w'abo irihirira amashuri kugira ngo bakomeze kuboneka maze imirimo ikomeze gukorwa neza kandi y'ikinyamwuga.

Abayobozi bagenda barebera hamwe, uburyo bakomeza guteza imbere igihugu cy'u Rwanda, binyuze mu kongera ikoranabuhanga mu bigo by'amashuri, aho bavuga ko ikoranabuhanga ryongera ubumenyi cyane kurusha gukoresha uburyo bwa gakondo.

Ibigo bitandukanye by'amashuri mu karere k'Amajyepfo byakunze kugaragaramo ubucucike, aho usanga abana biga babamo barara bagerekeranye bikaba biteje ikibazo muri rusange, Leta ikaba isabwa kubikurikirana.

Mu karere ka Kirehe, hagiye hagaragara abaturage bavuga ko umuco wo kudahana atari mwiza, bakaba bashima leta y'u Rwanda yegera abaturage ikababaza ibibazo baba bahura na byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu gihugu cy'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye hagiye hagaragara inzibutso, aho leta isaba urubyiruko n'abaturarwanda bose kuzibungabunga kuko ari igicumbi cy'amateka yacu.

Minisiteri y'ubuzima irashishikariza buri za kaminuza zose zo mu gihugu, gutegura neza ahantu abanyeshuri baba kugira ngo bagire ubuzima bwiza, binabafashe kuzamura imyigire yabo.

Minisiteri y'Uburezi irashima Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, yagiye ikomeza gushyira imbaraga mu gukora isuku ahantu hagiye hatandukanye mu bigo byayo, biri mu gihugu ahantu hose.

Minisiteri y'uburezi mu guteza imbere imyigire n'imyigishirize, yagiye yubaka ahantu hagiye hatandukanye amashuri agezweho arimo ikoranabuhanga, ku buryo bifasha abanyeshuri kwiga neza.

Uko ubukungu bw'igihugu bugenda buzamuka, ni nako n'ibikorwa remezo bikomeza kwiyongera. Aho usanga itumanaho, kandagira ukarabe n'ibindi bikorwa by'ikoranabuhanga, bigenda bigaragara mu makaritsiye atandukanye y'igihugu.

Iyo utembereye mu mahoteli yo mu gihugu cy'u Rwanda, usanga baba bafite amafunguro meza cyane, harimo amasalade, amafi n'inyama zokeje, abahasura bavuga ko ari byiza.

Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda, ikomeje guteza imbere imyigire n'imyigishirize, aho usanga yubaka inyubako zikorerwamo amahugurwa atandukanye y'abanyeshuri kugira ngo bakomeze kugira uburezi buhagije.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza Nkuru z'u Rwanda, bashima leta ko yabatekerejeho ikabazanira siporo, aho ubu basigaye bava kwiga bakajya kuruhura mu mutwe bakora imikino ngororamubiri.

Leta y'u Rwanda, ibicishije muri minisiteri, y'uburezi. Igenda iteza imbere imyigishirize, aho usanga yongera ibikoresho by'ikoranabuhanga mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye, bavuga ko bifasha abanyeshuri kubona ubumenyi mu buryo bwihuse.

Uko isi ikomeza gutera imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga, u Rwanda na rwo si rwasigaye inyuma. Rukomeje guteza imbere ubwenge buhangano mu mashuri, kugira ngo barebe ko uburezi bwakomeza gutera imbere.

Uko igihugu kigenda gitera imbere ni ko kigenda gishyira imbaraga ukongera ubukangurambaga mu buvuzi, ku buryo kigenda cyegereza abaturage ubuvuzi, kandi kinongeramo ibikoresho bigezweho bizabafasha mu kuvura hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Muri kaminuza z'u Rwanda bivu ko Kaminuza y'i Butare ariyo nziza kurusha izindi kuko usanga ifite isuku, abanyeshuri bakavuga ko ari nziza cyane kuyibamo biba bishimishije kurusha ahandi.

Leta y'u Rwanda uko ikomeza itera imbere irashishikariza urubyiruko kwitabira kugana ishuri kugira ngo babone ubumenyi buzabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu muco wakagombye kuranga abari b'u Rwanda, gushyira ibintu ku murongo byakabaye byiza kuri bose. Kuko bimufasha kuba atajagaraye mu mutwe, bigatuma agira ibintu bye biri ku murongo.

Mu buryo bwo kwirinda ubusambo bugiye butandukanye bukorerwa mu nsengero, Leta y'u Rwanda yashyizeho imbaraga z'uburyo yarinda abaturarwanda, bityo ibikora zitujuje ubuziranenge ikagenda izihagarika.

Umuyobozi ushinzwe kurengera ibidukikije mu ishuri ry'umwuga n'ubumenyingiro, asobanura ko gufata neza ibidukikije bizatuma Abanyarwanda babaho mu buzima busesuye.

Kaminuza nkuru y'u Rwanda yasobanuye ko izakomeza guteza imbere ikoranabuhanga kuko ibona ari byo bifasha abanyeshuri gutsinda neza bakagira n'ubumenyi buhagije bukenewe ku isoko ry'u Rwanda.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura, gisobanura ko cyagiye cyegera abaturage bo mu nshe zitandukanye kikabigisha uburyo batunga ubwiherero bwa kijyambere, bizabafasha kugira isuku.

Uko igihugu kigenda gitera imbere, ni nako Minisiteri y'Uburezi igenda ishishikariza abaturarwanda kohereza abana mu mashuri kuko byongera ubumenyi bigatuma bagira ishyaka ryo gukunda igihugu.

Uko igihugu cyacu kigenda gitera imbere, ni nako Leta igenda yongera ibikorwaremezo bigiye bitandukanye. Aho mu bigo bya Leta bimwe na bimwe hagenda hongerwamo ahantu ho kwiyakirira igihe bari gufata akaruhuko.

Abanyeshuri biga iby'ubuvuzi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, bakomeje kugaragaza ubushake n'ubushobozi bwo gutegura imiti bakuye mu biti gakondo kugira ngo izakoreshwe mu kuvura indwara zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda.

Minisiteri zigiye zitandukanye, zirebera hamwe icyakorwa kugira ngo urubyiruko ruvuye mu mashuri yisumbuye na zakaminuza, rukomeze kugumana indangagaciro na zakirazira kugira ngo bakomeze bateze imbere Igihugu cyabo.

Minisiteri y'Umuco mu Rwanda ivuga ko nubwo abanyeshuri bajya ku mashuri kwiga, batakagombye kuba ari bwo bumenyi bakurayo ahubwo bakahigiye n'indi mico itandukanye izabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu gukomeza guteza imbere mu Rwanda, Minisiteri y'Uburezi yagiye ishyiraho inyubako nziza, aho bivugwa ko kwigira ahantu heza bituma abanyeshuri babona ubumenyi buhagije kandi bakabifata mu buryo bwihuse.

Uko igihugu kigenda gitera imbere ni nako Leta ishyiramo imbaraga mu guteza imbere iby'ikoranabuhanga, kugira ngo n'umusaruro uva mu itunganwa na zo ukomeze kwiyongera.

Ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda, hari ahantu henshi wakwiyakirira mu mahoteli, aho wakoresheje ubukwe ufite ibirori, wakira abantu bawe bakagenda bishimye, kandi ahantu hasa neza cyane cyane.

Muri Kaminuza nkuru z'u Rwanda abanyeshuri bakomeje gutaka batakamba bavuga ko amafaranga bahabwa abatunga nta kintu abamarira bityo bigatuma uburezi bwabo n'imyigire yabo idatera imbere.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza z'u Rwanda, usanga ibyumba byabo biteguye neza, aho buri munyeshuri mu cyumba cye habamo ameza ateguye neza ku buryo bugaragara.

Abanyeshuri bo muri za kaminuza zigiye zitandukanye z'Igihugu, bavuga ko amafaranga bemererwa guhabwa abatunga ari make cyane, nta cyo akibafashije. Bagasaba Leta kubongerera kugira ngo bige neza.

Amasaha ya n'ijoro, bigaragara ko mu Rwanda, nta hantu na hamwe hasigaye haba hagifunguye, kubera ko umutekano wabaye mwiza cyane mu gihugu cyacu, utubari dusigaye tuba dufunze.

Abanyeshuri biga muri za Kaminuza Nkuru z'Igihugu cy'u Rwanda, bashima leta bavuga ko imyigishirize yaho iri ku rwego rwo hejuru. Aho bavuga ko ubumenyi bahakura, bujyanye n'ibiri ku isoko ry'igihugu.

Mu mibereho ya buri munsi, abantu babayeho. Bavuga ko kubaho ushima Imana, ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwabo. Twasanze mu rusengero rwa Saint Paul, abakirisitu bashima Imana bizihiwe.

Ikipe y'amavubi y'u Rwanda, nyuma yo gutsinda Algeria ibitego icumi ku busa, abaturarwanda bagaragaye muri resitora zitandukanye bishimira intsinzi y'ikipe yabo, aho bavuga ko bazakomeza kuyijya inyuma.

Mu burere bugiye butandukanye bw'igihugu, nka Kirehe, Ngoma, hagaragaye amashuri ateye imbere, aho usanga harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bivuga ko byongerera ubumenyi abahiga.

Abanyeshuri biga mu bijyanye n'imiti muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, basobanura ko kuba ari itsinda bibumbiramo kugira ngo bateze imbere ibijyanye n'ubuvuzi, ari byiza bibafasha gutera imbere cyane mu burezi.

Minisiteri y'uburezi mu Rwanda, ivuga ko yateje imbere ibijyanye n'imyigire binyuze mu kubaka amashuri agezweho, harimo ibikoresho byose bikenerwa n'umunyeshuri ku buryo imyigire izamuka cyane ku buryo bwihuse.

Mu gukomeza kurebera hamwe icyateza imbere urubyiruko, Minisiteri y'Uburezi yashyizeho ibikorwa bigiye bitandukanye, aho yubatse inyubako zizajya zihuriramo n'urubyiruko kugira ngo bige ku buryo batera imbere.

Abaturarwanda batuye mu mugi wa Kigali, bagaragaza ko kuba bari ahantu hatoya mu nzu bidatuma batagira isuku. Aho begeranya utuntu twabo ku murongo bityo bigatuma haboneka umwanya wo kwisanzura.

Mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, hakunda kugaragara inyubako zigezweho bigaragaza ko igihugu kiri gutera imbere mu buryo bugiye butandukanye, bigasaba abaturarwanda kongera imbaraga mu misoro kugira ngo bateze imbere igihugu.

Mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye, minisiteri y'uburezi ivuga ko yagiye ishyiramo uburyo bwo kwiga Online, aho bashyiramo progeniture zifasha abarimu mu gutambutsa amasomo imbere y'abanyeshuri.

Minisiteri ishinzwe ubuzima igaragaza yuko abantu bose bacuruza imiti mu byaro, bagomba kuba bafite ububiko bwayo bwiza kugira ngo hizerwe ubuziranenge bw'ibyo baba babitse bizakonsomwa n'abanyarwanda.

Ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyi ngiro rivuga ko abanyeshuri bahiga bahakura ubumenyi butandukanye, bigatuma ikoranabuhanga mu gihugu rikomeza kwiyongera kuko aribo bifashishwa cyane cyane mu kuriteza imbere.

Ibigo bigiye bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda, harimo ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti, n'ikigo gishinzwe kugenzura amatungo, ubuhinzi. Bigaragaza ko Leta yabatekerejeho ikabubakira ibiro bigezweho birimo ikoranabuhanga.

Minisiteri y'uburezi ishimangira ko gushyira imbaraga mu gushyiraho amasomero atandukanye hirya no hino mu bigo by'amashuri, ari muri bimwe mu byongera ubumenyi bw'abanyeshuri, ikaba ishishikariza buri munyeshuri kujya agerageza kugera mu isomero.